Ibikoresho by'ikoranabuhanga, harimo igifotora impapuro, hakabamo terefoni ndetse na mudasobwa. Hamwe n'ibikoresho bikoresha bibicaginga. Kugira ngo bijyemo umuriro, babone uko babikoresha.

Icyumba kirimo intebe, ameza ndetse n'utubati tubiri. Hakaba hari ibikarito birambitse hejuru y'akabati gakoze mu biti. Ibirahure byayo bikaba bifunze ndetse hariho insinga zigaragara ko ari iz'amashanyarazi.